Umuntu wambaye amadarubindi, karuvati, kositimu, yicaye imbere y'ameza y'umutuku, inyuma ye hari igikuta cy'umweru imbere hari amacupa abiri y'amazi.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bari mu ruganiriro, nk'abari mu nama, imbere yabo hari ameza, hateretswe amazi, amakayi.

Abantu batatu umupolisi, ingofero amadarubindi imyenda y'umukara, Rwanda, isaha terefone igikapu cy'umutuku.

Abantu benshi, bagaragara ko bari mu nama, bicaye munsi y'itente, imbere yabo hari umuyobozi ufite indangururamajwi wambaye tisheti ya oranje n'ipantaro y'umukara, imbere ye harika ameza k'umutuku.

Abagore babiri bambaye amadarubindi umwe wambaye ikoti ry'ubururu bwijimye, undi wambaye imyenda ya kisilamu bicaye ku ntebe z'umukara zikunze gukoreshwa muri biro z'abayobozi, imbere yabo hari ameza, mudasobwa, amazi bigaragara ko bari mu nama hari umuntu ukurikiye uri kubabwira ibintu runaka.

Abantu bari muna rura Rwanda reveni otoriti, mudasobwa amazi ameza utubati terefone amakayi.

Abantu benshi bigaragara ko bari kwifotoza gufata ifoto y'urwibutso hasi bahagaze kuri tapi y yubururu inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibyo bakora.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara bigaragara ko bari gukurikirana inama imbere yabo hari imeza z'umutuku mudasobwa n'amacupa y'amazi.

Abantu benshi harimo igitsina gore igitsina gabo bambaye imyenda ifite amabara umweru, umukara, ubururu, umuhondo.

Inyange miliki zone, umuryango, inzugi, umwana, amapave, inzu, amakaro, indobo.

Abantu babiri, umwe wambaye ikositimu, karuvati, ishati y'umweru, intebe, ikayi, amazi imifuniko y'ubururu, icyapa, imitangire ikorera abaturage.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari mudasobwa, amazi ndetse n'udutabo cyangwa amakayi y'ibyo bari kwandikamo, ubona ko bari mu nama cyangwa mu mahugurwa ndetse no mu bindi bintu bigiye bitandukanye.

Umugore uhagaze wambaye amadarubindi, ishati y'umukara, baji y'akazi, ufite inyakiramajwi bigaragara ko hari abantu benshi ari kubwira kugira ngo babashe kumwumva. Iruhande rwe hari ameza, mudasobwa, inyuma ye hari icyapa kigaragaza ibyo ari kuvuga.

Abantu benshi bicaye harimo abagabo n'abagore ndetse bambaye kositimu, karuvati n'amashati. Imbere yabo hari ameza n'inyakiramajwi, amazi yo kunywa, bigaragara ko ari itsinda ryabayobozi cyangwa abandi bantu bari mu nama irimo ibitekerezo bye bitandukanye.

Abantu, ameza, inyakiramajwi, amazi, ibitabo, umutuku, terefone, intebe.

Abantu benshi b'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza y'umweru, ariho amazi ndetse n'igikombe na telefone n'ikaye n'ikaramu, bigaragara ko bari mu nama cyangwa mu mahugurwa y'ibintu runaka.

Umugore wambaye ikanzu y'umuhondo n'amadarubindi, ufite inyakiramajwi ubona ko hari abantu ari kubwira, imbere ye hateretse mudasobwa ndetse hari n'icyapa kigaragaza amagambo ari kuvuga ngo tafisa satifiyedi ridashipu koze inisipoti foru oru revo wani ofutu.

Abantu benshi, harimo abagore n'abagabo, ubona ko bari mu nama, bari mu nyubako ifite parafo, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere y'ameza hariho ibipapuro, harimo na kamera.

Abantu benshi, ibyatsi, ubutaka, indangururamajwi, insinga, icyapa kigaragaza ibiri kubera hano, inzu.

Abantu benshi bicaye ndetse barimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari umuntu uhagaze, ufite inyakiramajwi, ubona ko ari kubwira abo bantu bari imbere ye, hari ndetse n'amazi n'ibipapuro cyangwa amakayi yo kwandikamo ubutumwa bari guhabwa.

Abantu benshi bicaye ahantu muri sare, bigaragara ko bakurikiye inama, imbere hicaye umugabo n'umugore wambaye amadarubindi, imeza hariho udukosi tw'ibirahuri n'impapuro.

Abantu benshi abagore, n'abagabo bicaye mu matsinda atandukanye, imbere yabo hari ameza, amazi ubona ko bari kuganira ku kintu runaka, ashaka kwemeranya.

Abantu benshi bicaye bari kuganira ku kintu runaka, intebe z'umukara bigaragara ko ari abayobozi imbere yabo hari ameza y'umutuku, amazi yo kunywa.

Abantu batatu harimo abagore babiri n'umugabo, bicaye ku ntebe z'umukara zo muri osisi imbere yabo hari ameza na terefone n'ibipapuro, bigaragara ko ari abanyamakuru, hateretse inyakiramajwi ibasha gutanga ibyo bari kuvuga.

Inyakiramajwi, icyapa, abantu bicaye imbere y'icyo cyapa, ibitabo, baji z'akazi aritari ibara ry'umukara, Kanada.

Abantu bari mu nama amakote y'umukara, amashati y'umweru, karuvati, amadarubindi, inyakiramajwi, telefone, ameza impapuro, ibirahure, amazi, ji.

Abantu babiri, umugore n'umugabo bahagaze imbere y'abantu benshi ubona ko bari kubagira inama runaka bifashishije indangururamajwi, bari munsi mu itente. Inyuma hari bafure, hari intebe z'umuhondo.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza, amazi, indangururamajwi bigaragara ko bari mu nama cyangwa urusengero cyangwa mu bindi bintu bigiye bitandukanye, bitewe uko bicaye n'uko bari kwakira ayo makuru.

Umugore wambaye amadarubindi, ufite inyakiramajwi, inyuma ye hari intebe z'umukara, ameza ariho amazi yo kunywa, imbere ye hari abantu bambaye imipira y'ubururu, bivuze ngo hari ibyo ari kubaganiriza.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo bigaragara ko bari munsi y'itente bicaye ku ntebe z'umukara n'iz'umuhondo, hari abegereye ameza ariho amazi, igikapu, telefone n'ibipapuro bigaragara ko bari mu nama, hari umuntu uri kubabwira imbere.

Abantu benshi bicaye mu itente, imbere yabo hari abicaye ku ntebe z'umukara bigaragara ko ari abayobozi, hateretse amazi y'Inyange ku meza bigaragara ko bari mu nama.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore hari umugabo wambaye ikote na karuvati, imbere ye hari ameza yo mu biro cyangwa aho bakorera inama, amazi n'inyakiramajwi z'ibyo ari buvuge.

Abantu batatu harimo abahungu babiri n'umukobwa umwe, ubona ko bakurikiye umuntu uhagaze imbere yabo, bicaye ku ntebe z'umukara inyuma ari amadirishya n'ibyandiko.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, urubyiruko, bari kuganirizwa n'umugore wambaye ijire y'akazi ufite igipapuro ari kubasomera bigaragara ko hari ibintu ari kubabwira.

Abagabo n'abagore ndetse naba bayobozi b'igihugu cyangwa abapolisi bicaye mu ntebe z'umukara ubona ko ari abayobozi. Inyuma yaho hari icyapa cyanditseho ngo ingengo y'imari n'imihigo ubona ko ari ibintu bari kwigaho aho bahuriye n'abayobozi.

Abantu benshi, barimo abagore n'abagabo, bamwe bambaye kositimu, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'icyatsi, amazi, mudasobwa, ubona ko bari nko mu mahugurwa, cyangwa mu nama ibahurije aho bicaye, ku meza.

Abagabo barimo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara ubona bari mucyumba gisa nk'ikiberamo inama, imbere yabo hari ameza, mudasobwa n'ibindi nk'amakayi, n'ibipapuro.

Abantu benshi bari mu cyumba, bigaragara ko bari mu nama, imbere hahagaze umuntu ufite ikintu ari kubabwira, wambaye ijiri y'umukara, ufite n'inyakiramajwi, hakurya hari abantu bicaye, harimo umupolisi, imbere habateretse amacupa y'amazi

Umugore uhagaze ufite inyakiramajwi ndetse wambaye n'isengeri igaragaza icyo akora cyangwa akazi ke, imbere ye hari abandi bicaye biteretse amazi ndetse n'amatelefone cyangwa aho bandika ubutumwa barikugenerwa ubona ko bari kuganira.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umutuku, barangariye imbere yabo, bafite amatelefone, bari gufata amavidewo bigaragara, ko ko hari igikorwa cyahabereye, hari umuntu ubarangaje.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara, imbere y'ameza hari mudasobwa, amazi udutabo, bivuze ngo ni abayobozi bari mu nama runaka, kuko hari n'umuntu basa nkaho bari kureba uri kubabwiriza ikintu runaka.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bazengurutse ameza ariho amazi mudasobwa bicaye ku ntebe z'umukara, ubona ko bari mu kiganiro hari ibyo barivugaho, imbere yabo hari ishusho ry'ibyo bari kuvugaho.

Abantu benshi harimo abagabo babiri bambaye amakoti, umwe umwe wambaye amadarubindi, karuvati, ishati y'umweru iruhande hari umugore wambaye baji, imbere yabo hari ameza ariho amazi, amakayi.

Abantu benshi bicaye, harimo abagore n'abagabo bigaragara ko ari abayobozi, bari mu cyumba cy'inama kirimo intebe z'umukara. Imbere yabo hari ameza, amazi, inyakiramajwi zo gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye.

Icyumba kirimo abagabo benshi bagiye batandukanye, umwe wambaye amadarubindi, ikote ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati, hariho idarapo ry'igihugu imbere ye hari amazi.

Abagore n'abagabo bamwe bambaye amadarubindi bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo harimo mudasobwa, amazi, inyakiramajwi bigaragara ko bari mu nama bari kuganira ibintu bigiye bitandukanye.

Kigali yacu ayi inovative koriyamu intebe, amadarobindi, mudasobwa, ameza y'umutuku, imyenda y'umutuku, baji.

Abagabo bane bambaye amakoti n'amashati y'imyeru, hari n'umugore wambaye imyenda y'umuhondo imbere yabo hari ameza, mudasobwa, amazi bigaragara ko bari mu nama cyangwa ibindi bintu by'ibiganiro bari gukora.

Abantu bane, abagore babiri, abagabo babiri bambaye amakote n'amashati, bafite amakaramu, bari kwandika ku mpapuro, imbere yabo hari amazi, igikombe, ikirahure bigaragara ko bari mu kazi, bari no ku mara inyota.

Umukobwa wicaye wambaye ikanzu y'umweru, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa n'igikombe cy'amazi, n'Igipapuro, bigaragara ko ari mu kazi inyota yamwica agasoma no ku mazi n'ibindi bintu byinshi bigaragara nka voluntary disclosure.

Irembo, ibara ry'ubururu, umweru, serire, mudasobwa, ameza, amakaro, umuryango, amadirishya, ibirahure.

Icyapa kigaragaraho ubutumwa, guhamagara, telefone ndetse hari amagambo yanditseho ngo ukeneye serivisi zo gutwara abantu n'ibintu muri RURA koresha to aquire transport service form RURA use: email transport@rura.rw bigaragara ko ari RURA iri kwamamaza iri tangazo.

Urupapuro rw'umweru rugaragaza amasaha y'akazi mashyashya, minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iributsa abaturarwanda amasaha y'akazi yavuguruwe azatangira gukurikizwa ku wa mbere mutarama bibiri na makumyabiri na gatatu, ku buryo bukurikiza amasaha y'akazi ni umunani.

Urubyiruko rwinshi rurimo abakobwa n'abahungu, bambaye amashati y'umweru, amapantaro ya kaki, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ariho za mudasobwa bigaragara ko ari abanyeshuri bari kwiga.

Inyubako yubakijwe ibyuma bya giriyaje mu imbere yabyo harimo abagabo babiri bicaye bambaye imyenda y'akazi y'umuhondo, imbere yabo hari umugabo ubona ko yaje gusaba ubufasha bw'ibintu bakora bya peyibirizi, dipoziti geti kashi sendingi mani.

Ifoto irimo abakobwa babiri bambaye amashati y'umweru, karuvati y'icyatsi bigaragara ko ari abanyeshuri bari kwiga ibijyanye n'ubugeni n'ubukorikori.

Abagabo babiri bambaye agapfukamunwa umwe wambaye ingofero n'isaha, bari kureba muri telefone, ubona ko hari amakuru cyangwa ikintu bari kureba ndetse bose bafite amatsiko, imbere yabo hari umugore wambaye agapfukamunwa ufite mudasobwa mu ntoki nawe ubona ko hari amakuru ari kureba.

Itangazo rya Rwanda deveropumenti bodi. Hari andi magambo ahanditse icyongereza avuga ngo azi sitarategike patina inkurusive finkiteji foramu doti komu.

Urupapuro rw'ubururu imbere hateretseho mudasobwa, rwanditseho how to change your E-tax password visit www. rra.gov. rw, click on get password inter tin, and phone number registed.

Iki ni icyumba k'inama y'imwe muri kampani runaka, aho abayobozi bashobora guhurira mu kwiga ku ngingo zitandukanye no gukemura ibibazo byagaragaye.

Urupapuro ruriho ikirangantego cy'Igihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Birikugaragaza ko hari itangazo barigutanga rivuga ngo iminsi y' ikiruhuko rusange ku bantu bose.

Irembo, serivisi nshya ku rubuga irembo govu, ikigo gitanga iyi serivisi, minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, icyiciro, abinjira n'abasohoka, izina rya serivisi, uburenganzira bwo kugera mu nkambi y'impunzi.

Porami foji savsi senta, ibirahuri imodoka umuntu inzugi ingufuri serire amapave uducupa.

Icyapa kigaragaza ubwishyu bwo ku binyabiziga. Handitse amagambo avuga ngo ntibyemewe kwishyura urugendo udakoresheje ikarita yabugenewe, uburyo rukumbi bwemewe mu kwishyura urugendo rw'imodoka mu mujyi wa Kigali ni ukoresheje ikarita. N'ifoto igaragaza ko gufata amafaranga bitemewe.

Intebe, ameza, insinga, batiri, amakaro, mudasobwa, urumuri, indangururamajwi, abantu, ingofero.

Ingagi bigaragara ko iri mu ishyamba harimo ibiti byinshi cyane hasi hari amagambo yanditse avuga ngo tourism known as the thousand hills, Rwandans stantanding cream and warm, friendly people offer unique expresses in one of the most the amicable.

Umuhanda w'umukara, umweru umukara, abantu bambaye amasengeri y'icyatsi ingofero umunara muremure ufite ibara ry'umutuku moteri ibiti.

Umunara muremure cyane ugaragara nkaho utanga sinyare, ahantu uherereye ni mumujyi iruhande rwawo hari umuhanda w'ibinyabiziga, harimo moto ebyiri mbere yawo hari icyapa cya MTN bigaragara ko aho hari savisi seta cyangwa icyicaro cya MTN.

Abantu batatu bari mu mutaka, umwe wicaye, babiri bahagaze, mu mutaka wa emutiyeni imbere yabo hari ameza, bigaragara ko aho hantu hacururizwa serivisi zijyanye na emutiyeni.

Ubutaka, amateke, ibiti, indabo, amapapayi, imigano, umunara muremure, taransifoma.

Umuhanda w'umukara ugenderwamo ibinyabiziga imodoka moto n'ibindi bigiye bitandukanye, iruhande rwawo hari ugenderwamo n'abanyamaguru.

Ipoto rirerire iriho insinga zigiye zitandukanye zijya imbere, inyuma, ibumoso, iburyo, zijya mu nyubako bigaragara ko ariko umuriro ugenda ukwirakwira mu baturage maze tukawukoresha.

Ipoto rirerire iriho insinga, bigaragara ko ari insinga z'amashanyarazi, ziri kuvana umuriro ziwujyana mu nyubako z'abaturage, ndende cyangwa ngufi.

Umuntu kasike y'umweru n'umukara, ijiri y'icyatsi, ikote ry'umutuku itushi ry'umukara, ikirahure, itushe y'icyatsi.

Umukobwa wambaye isarubeti, ingofero y'umwe, wuriye ku rwego, bigaragara ko ari umutekinisiye wagiye gukora ikibazo ku nsinga z'umuriro w'amashanyarazi, ziwukwirakwiza, ziri hejuru ku giti.

Umuhanda w'umukara w'ibinyabiziga, harimo imodoka na moto, iruhande rwaho hari amatara, ariho ibyapa bya MTN byamamaza, hari undi muhanda ukata ujya mu kindi cyerekezo.

Umuhanda, amapave, imodoka, moto, ibiti, umunara, amatara, amapoto, insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi.

Ibiti, umunara muremure, insinga z'amashanyarazi, inzu, ubutaka, abantu akabido, ibyatsi,..

Akazu karimo amajirie y'icyatsi, isarubeti y'ubururu imbere yaho hari ibikoresho byinshi byifashishwa mu bwubatsi n'imitako yo mu nzu, bigaragara ko ari aho bacururiza ibyo kwifashisha mu nzu.

Umuhanda, amapave, ibara ry'umukara, iry'umweru, igiti, insinga, igipangu, ibiti, inzu nyinshi, abantu.

Ipoto, insinga z'amashanyarazi, inzu, amabati y'umutuku, igipangu cy'umuhondo, ibiti, agakururazuba, ikirere

Amapoto menshi ahagaze ariho insinga z'amashanyarazi zitanga umuriro mu baturage, ziri kujya mu byerekezo bitandukanye. Hari akabati ka Mtn k'umutuku ubona ko bacuruza amayinite; hari n'abantu bari gutambuka bigaragara ko ari ku muhanda.

Amazu menshi cyane bigaragarako ari ahantu mu mujyi harimo ipoto ryohereza umuriro w'amashanyarazi riwuvana ahantu hamwe riwujyana ahandi, ibiti byinshi ,cyane'igipangu cy'amatafari.

Igipangu cyubakishijwe amatafari n'imbere bigaragara ko ari uruganda rushyashya rutunganya amashanyarazi hariho insinga zivana umuriro ahantu hamwe ruwujyana ahandi iruhande rw'igipangu hari umurima ubutaka.

Abantu bicaye, abagabo n'abagore, ku ntebe z'umukara, ndetse bari mu nyubako yubakishijwe amakaro, ifite parafu y'umweru ndetse n'amatara, bigaragara ko hari ahantu ndetse icyumba bategereje kwinjiramo ni cyo baje gusabamo serivisi.

Imodoka ebyiri zihagaze ndetse aho zagenewe, imbere yazo hari ibyapa bibiri, kimwe cyanditseho Kacyiru hosipito, ikindi isange wani sitopu senta, hariho urutoki rugaragaza aho ugomba gukata cyangwa ugomba kujya, biragaragaza ko ari ku ivuriro.

Imodoka nyinshi zihagaze, zimwe ziri mu muhanda ziri kugenda, hari umuntu wambaye umupira n'igitenge yifubitse cyane, hari amazi bigaragara ko ari imvura yaguye, hatose cyangwa hakonje.

Abantu, agatete, kizimyamwoto, ibara ryjimye, ibipapuro, igikuta cy'umuhondo, parafo, itara, igitenge, ingofero.

Abantu, kandagira ukarabe, inzu, amabati y'ubururu, byatsi, amabuye, jaride, indobo.

Abantu benshi bamwe bahagaze abandi bicaye ku ntebe, iruhande rwabo hari imodoka y'ubutabazi, ubuvuzi cyangwa icyo bita ambiranse, ikoreshwa mu gutwara abarwayi ibajyana aho bagiye gufatira ubuvuzi ndetse ku bantu barembye cyangwa bahuye n'ikibazo cyo ku mubiri.

Abagore, abagabo bahetse abana, bafite ibikapu, amabase, utujerekani bivuze ngo hano ni ku kigo nderabuzima hari haraje gukorwa ikintu runaka.

Inyubako y'amatafari ifite urugi rw'imbaho rufungishwa na serire, imbere yaho hari ururabyo, iruhande rwaho hari inzira ijya mu zindi nzu ziri inyuma yaho bigaragara ko ari ibitaro.

Inyubako nyinshi bigaragarira ko ari ahantu hatangira ubutabazi cyangwa ubuvuzi bw'ibanze, hari ambiranse, hari icyapa cy'icyatsi kigaragaza inzira ugomba kujyamo bitewe n'ahantu ushaka kujya muhanda w'amabuye.

Abantu bari mu cyumba kiri kwakamo amatara, harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'icyuma, umwe uhagaze wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umukara, imbere yabo bigaragara ko baje muri banki hakujya bakurikirana ku kumurongo.

Umugore uri mu cyumba bigaragara ko ari icy'isomero, kuko harimo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye byo gukuramo amakuru n'ubumenyi.

Abantu benshi bahagaze ndetse imbere yabo hari abambaye imyenda y'umweru ndetse n'ingofero z'umweru, imbere yabo hari amasafuriya ubona ko arimo ibiryo bari kwarura bashyira ku masahani bigaragara ko ari abatanga serivisi zitangwa no muri hoteli, ahantu habaye ibirori bakeneye kwiyakira ku cyo kurya.

Amabati munsi yaho hari abantu benshi bicaye ku murongo ubona kugenda bakurikirana bicaye ku ntebe zimbaho n'ibyuma, imbere yabo hari abandi bari kugenda ku murongo bigaragara ko baje kwivuza.

Igipangu kirekire harimo inyubako hari icyapa kigaragaza ko ari gereza ya Muhanga hari n'abantu benshi bambaye imyenda y'umuhondo, iroza hafungirwa abantu bakoze ibyaha bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye amadarubindi yicaye muri salo harimo intebe imbere ye hari ibirahure bibiri birimo icyo kunywa iruhande hari akabati bigaragara ko ari inzu ituwe n'abantu.

Abagororwa benshi bambaye udupfukamunwa n'imyenda y'iroza bicaye hanze y'inyubako, hakurya hari kizimyamwoto bifashisha kuzimya inkongi y'umuriro.

Abantu batanu babiri bicaye ndetse batatu bahagaze harimo umugabo umwe wambaye ishati y'umutuku n'amadarubindi bigaragara ko ari mu bucamanza ubona ko hari ibyo bari gukurikirana cyangwa bari kuvugaho by'ubushinjacyaha.

Abantu babiri umwe wambaye imyenda y'umweru, umukara, amadarobindi, intebe y'umukara, umusatsi, amatwi, amaso, amazuru.

Abantu benshi bamwe bicaye bambaye imyenda y'umukara n'ingofero z'umukara harimo imirongo imbere yabo hari ameza n'inyundo bigaragara ko ari abacamanza, hari abahagaze imbere y'utumeza bambaye amakoti y'umukara n'amashati y'umweru bigaragara ko ari abashinjacyaha.

Abagororwa bane bambaye iroza bicaye ku ntebe z'imbaho, imbere yabo hari umugabo wambaye ikanzu y'umukara usa nk'aho ari kubagira inama y'ibintu bitandukanye.

Abantu babiri umwe wambaye iroza bigaragara ko ari umugororwa, uri kumwe n'umuntu wambaye ikanzu y'umukara ufite telefone bigaragara ko ari umushinjacyaha wicaye bari kuganira ibintu bigiye bitandukanye.

Abagororwa benshi bambaye imyenda y'iroza bafite amasuka n'ibindi bikoresho, ubona ko bavuye mu murima bari kwerekera ku gipangu cyabo aho bagororerwa.

Amabendera abiri, abacungagereza, amapave, ibiti, ikirere, abagororwa bari gusohoka mu modoka bambaye udupfukamunwa, iroza.

Ibihembo by'abakozi cyangwa imishahara yabo aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka itanu ariko kitarenze imyaka irindwi n'ihazahabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye isura kuva kuri eshatu.

Umugabo wambaye ingofero, amadarubindi, ikote ry'umukara' karuvati y'umukara umanitse ikiganza cye cy'iburyo icy'ibumoso gifashe ku ibendera bigaragara ko ari kurahira ari umupolisi wi'igihugu cy'u Rwanda.

Imodoka nyinshi za ribu na polisi, imbere yabo hari abagabo batatu, babiri bambaye imyenda y'umukara n'ingofero z'umukara, hagati yabo hari umugabo wambaye ikositimu, n'ishati, na karuvati, n'agapfukamunwa, bari kugenda, yambaye amapingu bigaragara ko ari umufatanyacyaha.

Abapolisi babiri bambaye imyenda y'umukara, ingofero umwe ufite amapeti, inyuma yabo hari abagabo babiri bambaye kositimu, amashati y'umweru baji z'akazi.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'imbaho harimo abagabo n'abagore ndetse bamwe bafite ibipapuro imbere yabo hari umugore wambaye imyenda ya kositimu ndetse ufashe amakayi ari gusoma ibyo ari kubagezaho nk'ubutumwa.

Abantu benshi bafite imitaka ubona ko ari abaturage bicaye mu byatsi ,imbere yabo hari abagabo bicaye ku ntebe z'imbaho imbere yabo hari ameza bambaye ibijyanye n'amadarapo y'igihugu bafite impapuro zigaragara ko barikorera inama.

Imanza z' imbonezamubano gushinganisha umutungo w'ubereyemo undi mwenda, imanza z'imbozamubano gushinganisha umutungo w'ibibereyemo undi umwenda, ibisabwa usaba gushinganisha umutungo w'undi.

Umuntu wambaye amadarubindi, karuvati ishati yambaye ikoti rifite amabara umutuku umukara inyuma ye ibara ni umweru.

Abagabo babiri bambaye ikositimu z'umukara ndetse n'amashati y'umweru na karuvati iruhande rwabo hari abambaye imyenda y'umutuku ndetse ubona ko bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari ikirangantego iruhande rwabo hari amadarapo...

Abantu benshi abagore n'abagabo bigaragara ko ari abaturage baje munama, mbere yabo hari umugabo uhahagaze wa mbaye imyenda y'iroza ubona ko hari ikintu arimo kubabwira kijyanye n'ibintu runaka cyatumye abicaza akabashyira ahantu hamwe ,hari n'inyubako zibakikije.

Kizimyamyoto ifite ibara ry'umutuku, iry'umukara iry'icyatsi, ihombo urufunguzo ibipapuro bigaragaza uko ikoreshwa.

Umuhanda urimo imodoka zitandukanye ndetse hari ihagaze y'umweru ya polisi, ni imodoka ishinzwe umutekano muri karitsiye cyangwa mu muhanda uturiye abaturage.

Kizimyamwoto yifashishwa mu kuzimya ahantu habaye inkongi y'umuriro ifite ibara ry'umutuku, iriho amabwiriza yuko ikoreshwa yanditswe ku bipapuro.

Abapolisi benshi bahagaze bambaye imyenda y'umukara, n' ingofero z'umukara, bafite n'imbunda zo kwirinda, imbere y'abo hari umuyobozi cyangwa ubakuriye ubona ko ari kubaha inama zigiye zitandukanye dore ko bafite n'udupapuro bisa nk'aho hari ibyo bari kwandika nk'amabwiriza.

Umuhanda w'umukara impande yaho hari umuntu ufite utujerekani, hari n'ibiti impande y'umuhanda imodoka, inyubako ndende, amatara.

Abantu bari mu muhanda wabanyamaguru, hari umugabo wambaye ingofero y'icyatsi, ishati y'icyatsi, ipantaro y'icyatsi, inkweto z'umukara, bigaragara ko ari umucunzi w'umutekano.

Abapolisi benshi bafite imbunda bambaye imyenda y'umukara, mu ntoki zabo bafitemo udupapuro basa nk'aho hari ibintu bari kwandika cyangwa amabwiriza bari guhabwa uko uburyo buhagaze bigaragara ko hari umuntu ubahagaze imbere afite icyo ari kubabwira.

Umugore wambaye ishati y'umweru, igitenge kirimo amabara atandukanye, igikomo, impeta igaragaza ko yashatse umugabo ahagaze mu biti.

Abantu bane, umwe wicaye wambaye ikoti ry'umweru, yambariyemo umwenda w'icyatsi, imbere hari ameza yanditseho darifu umurinzi, ndetse hari inyakiramajwi, iruhande rwe hari abakobwa bahagaze bigaragara ko imbere yaho hari ubu butumwa ari guhereza abantu bamukurikiye.

Abantu benshi bafite utudarapo twanditseho FPR turi mu ibara ry'umutuku, umweru n'ubururu hagati yabo hari perezida w'igihugu amanitse akaboko n'abakameramani cyangwa abanyamakuru.

Abagabo babiri bambaye kositimu z'umukara, abagore bane bambaye umushananana, umweru, umukara, bose bamanitse amaboko, begeranye n'amabendera y'u Rwanda, inyuma harigikuta cy' umukara impande aryi kuta giciyemo imirongo.

Abantu bane abagore batatu umugabo umwe wambaye ikositimu n'agapfukamunwa k'umweru imbere yabo hari ameza bicaye ku ntebe z'umukara amazi indangururamajwi bigaragara ko ari abantu bari mu nama.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, hari n'abagore bambaye imishanana, bafashe ku mabendera y'igihugu cy'u Rwanda, bamanitse ikiganza cyabo cy'iburyo, icy'ibumoso gifashe ku ibendera, bigaragara ko bari kurahira ikintu runaka.

Umugabo wambaye kositimu z'ubururu mu imbere yambariyemo ishati ya mace y'umweru, imbere ye hari inyakiramajwi idufasha kwakira amajwi iyo ageza kubantu bari kure ye cyangwa benshi, inyuma ye hari abantu bicaye ku ntebe z'imbaho n'ameza ariho igitambaro cy'ubururu.

Ibitambaro by'ubururu umuhondo, icyatsi, umuntu wambaye ingofero, imyenda y'umweru, ibipapuro, ikaramu indangamuntu ameza.

Abantu benshi bahagaze, imbere yabo hari amatente y'umweru ariho ibyapa bya FPR biri mu mabara y'umutuku n'umweru n'ubururu, hari umugabo ubahagaze imbere ufite inyakiramajwi asa nk'aho ari kwiyamamaza cyangwa ari gusaba ko bamutorera igikorwa runaka.

Umugabo uhagaze mu modoka hejuru, wambaye imyenda y'icyatsi ndetse iruhande rwaho hari abaturage benshi bahagaze bafite n'ifoto ye yanditseho tora, bigaragara ko ari umuntu uri kwiyamamaza mu matora yo kugira ngo bamushyigikire.

Ibyapa biriho abagabo batatu bigaragaza ko bari kwamamaza uko watera intambwe uva hasi ujya hejuru mu bintu uri gukora runaka yitwa MpayimanaFiripe.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara bigaragara ko bari mu nama y'abayobozi, kubera ko imbere yabo hari inyakiramajwi zo gutanga ibitekerezo kuri buri muntu. Hari ameza, amazi yo kunywa, bambaye amakote.

Abagabo babiri bambaye amakoti y'umukara na karuvati n'amashati y'umweru hari n'abagore bambaye imishanana ukuboko kwabo kw'ubumoso gufashe ku mabendera yi'gihugu bamanitse ikiganza cyabo cy'uburyo bigaragara ko hari ibyo bari kurahirira.

Abantu batatu harimo abagore, umwe wambaye amadarubindi ndetse n'isaha, iruhande rwabo hari umugabo wambaye kositimu, ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umutuku, ubona ko bari kuganira inkuru cyangwa ibindi baziranyeho.

Abantu babiri bambaye amadarubindi, umwe yambaye imyenda y'ubururu, inyakiramajwi intebe amazi isaha ikaramu.

Abantu benshi bambaye imyenda y'icyatsi, abambaye umutuku n'andi mabara atandukanye bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kwiyamamaza wambaye ishati y'umweru hamanitse amafoto ye hari n'itente yo kwirinda izuba.

Abantu babiri bambaye ikositimu z'ubururu umwe wambaye ishati y'umweru karuvati irimo amabara y'umweru undi yambaye ishati y'umukara na karuvati, umwe yambaye amadarubindi n'umugore wicaye inyuma yambaye amadarubindi ameza intebe.

Abagabo bambaye amakositimu n'amakaruvati, amashati bicaye mu ntebe z'ubururu, barikuganira ubona ko hari ikintu bari kumvikanaho.

Umugabo wambaye ikositimu n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara wicaye ku ntebe y'umukara imbere ye hari inyakiramajwi ari kuvugiramo, mudasobwa, amazi yo kunywa bigaragara ko ari gutanga ikiganiro.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara, inyuma ye hicaye abakobwa babiri, impande ye hari umusore wambaye amadarubindi, umufashije inyandiko, bigaragara ko ahagaze imbere y'abantu benshi, afite icyo ari kubabwira.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore ubona bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza, mudasobwa, inyakiramajwi bigaragara ko bari mu nama y'ibintu runaka bagaragara nk'abayobozi.

Abagabo batandatu, batanu b'abirabura, umwe w'umuzungu, bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari ameza n'amabendera y'igihugu.

Abantu bane bambaye ikoti ry'ubururu, uwambaye ry'umukara, uwambaye ry'ubururu bafite inyakiramajwi, ameza, intebe z'umukara, karuvati.

Umugore n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara bigaragara ko bari ahantu mu nama, bicaye ku ntebe z'umukara impande yabo hari utumeza duteretseho ibipapuro.

Abagore babiri bambaye imishanana y' yumuhondo, tisheti, z'icyatsi bigaragara ko habereye ikirori runaka, ko umwe ufite inyakiramajwi, kugirango abashe gusakaza amakuru ku bantu benshi bari aho ngaho, bigaragara ko hari ikirori cyahabereye cyanga kwamamaza ikintu runaka.

Abantu bane umuntu umwe ugaragaza nkaho ari gutanga ikiganiro, afite inyakiramajwi wambaye ishati yo mu bwoko bwa moshon, inyuma ye hari imodoka ihagaze hari n'ifoto.

Imodoka nyinshi, umusozi, ibiti, iminara, amatara, feruge, umuhondo, umutuku, moto.

Umuhanda w'umukara ugenderwamo ibinyabiziga harimo: moto, imodoka, n'ibindi, iruhande hari inzira y'abanyamaguru ibiti.

Umuhanda w'umukara uri kugenderamo moto, ugenderwamo n'ibindi binyabiziga bitandukanye, iruhande rwaho hari amatara yo ku muhanda ,igipangu cy'umweru ,mo imbere harimo inzu ndende n'ibiti bigiye bitandukanye...

Imodoka y'amabara yumweru, umuhanda w'umukara urimo ibara ry'umuhondo umweru, ibiti, ibyatsi takisi.

Umuhanda w'umukara uciyemo imirongo y'umweru yaho abagenda n'amaguru bambukira umumotari, ibiti, amatara inyubako ndende.

Imodoka y'umweru itwara imizigo n'ibindi bintu byinshi, harimo umugabo uhagaze, wambaye ingofero ifite amabara y'umuhondo n'umutuku n'icyatsi, bigaragara ko ari ufata ibintu bagiye gushyira mu modoka, akaba yayipakira.

Moto y'ibinyamitende ikoreshwa mu gutwara ibintu n'imizigo kugendera mu muhanda w'ibinyabiziga wegereye ibiti, amatara aduha urumuri iyo bwije.

Umuhanda w'umukara amapave imodoka y'umuhondo shitingi y'umweru abantu. supanete yicyatsi ibiti, inzu amabati y'umutuku.

Umuhanda w'umukara ugenderwamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo imodoka nini itwara ibiribwa ahantu hagiye hatandukanye. Iruhande rwaho hari icyapa cyanditseho mitsingi cy'umutuku, bigaragara ko aho hafi hari akabari gatanga ibinyobwa.

Imodoka ziri kugendera mu muhanda w'umukara ziri kuva ahantu hamwe zijya ahandi, impande hari jaride y'indabo n'ibiti birebire n'impande hari akayira gacamo abanyamaguru.

Imodoka y'umweru iri mu bwoko bwa dayihatsu bigaragara ko itwaye imizigo iyivana ahantu hamwe iyijyana ahandi, hejuru hicaye umuntu bigaragara ko ariwe urigucunga iyo mizigo.

Imodoka ya ritiko itwara abagenzi, icanye amatara bigaragara ko ihagaze muri feruje, imbere yayo hari icyapa cy'ubururu kigaragaza undi muhanda.

Umwotsi, imodoka, umuhanda, umuntu, ibiti, jaride, amatafari.

Polikilinike mediko, imodoka y'umweru ifite amabara y'umukara, umweru, umuhanda wumukara, harimo umurongo w'umuhondo, inzu ibirahure.

Imodoka ya tagisi itwara ibintu n'abantu iri kugendera mu muhanda w'umukara, urimo moto zitwaye abagenzi, iruhande hari umuhanda ugenderwamo n'abanyamaguru.

Ahantu hahagaze imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye, ndetse n'iza ritiko ubona ko zihagaze, zitegereje abagenzi cyangwa buri umwe wese ukeneye kuva ahantu hamwe ajya ahandi ni izi modoka ashobora kuba yajyamo nk'umugenzi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo imodoka ubona ko ishobora kuba itwaye ibintu bimwe bivana hamwe bijyana ahandi ,impande yayo hari ihagaze y'icyatsi isa nkaho itwara ibijyanye na peteroli.

Umuhanda w'umukara harimo akamoto gatwara imizigo kayivana hamwe kayijyana ahandi, harimo umuntu ugatwaye wambaye tisheti y'umukara, iruhande rwaho hari umuhanda w'abanyamaguru n'igipangu cy'icyatsi.

Imodoka ya kwasiteri itwara abagenzi iri kunyura mu muhanda w'umukara wahariwe kunyurwamo ibinyabiziga, iruhande rwayo hari umunyonzi utwaye igare, iruhande rw'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda w'umukara, inyuma hari igipangu n'ibiti harimo umumotari ujya ava ahantu hamwe ujya ahandi uhetse umugenzi, ku mpande hari akayira kahariwe kugendamo abanyamaguru.

Abantu babiri umwe ni umuyonzi utwaye igare, bivuze ngo arikuva mu cyerekezo kimwe ajya mu kindi moto itwara imizigo umuntu uri kugendera mu muhanda w'abanyamaguru umuhanda ugenderwa mu ibinyabiziga bigiye bitandukanye inzu.

Sikulu compulegisi purayimari, sekendari, sekisheni, inenge, imodoka, amapine, igare, umuhanda, ibiti, abantu, amazu.

Imodoka z'umweru Mitsubishi RF zeru mirongo ine na gatatu, C. Amapine, ibiti, rigori, moto...

Imodoka y'umweru iri kuva ahantu hamwe ijyahandi, hicayemo hejuru umugabo wambaye Isarubeti y'ubururu, bari mu muhanda w'umukara, hakurya hari ibiti birebire n'igipangu kizitijwe supanete y'icyatsi hari n'ipoto y'itara.

Imodoka ifite amabara yumukara, umweru, icyatsi, abantu, amapine ,umuhanda rigori, ibiti supanete y'icyatsi, amazu.

Imodoka y'umweru iri kugendera mu muhanda w'umukara, hari umumotari, umunyonzi, inyuma hari abantu bari kugendera mu gahanda yagenewe kugenderamo abanyamaguru hari n'ibiti na rigori.

Imodoka iri impande y'akagare kagenewe gutwara imizigo kayivana ahantu hamwe kayijyana ahandi. Impande hari rigori icamo amazi, inyuma hari ibiti birebire.

Umuhanda w'umukara ugenderwamo ibinyabiziga bitandukanye, na moto zihereka abagenzi ndetse n'iziheka imizigo, iruhande rwaho hari amazu harigaragara ko ari mu mujyi hacuruzwa ibinyobwa ndetse n'ibindi bintu, ndetse n'imikino y'amahirwe cyangwa ukaba wagura amayinite kuri uwo muhanda.

Imihanda y'umukara iri kujya mu byerekezo bitandukanye harimo ibinyabiziga nka moto, imodoka ndetse hari ibihagaze, hari umugenzi uri gusaba serivisi utwaye ikinyabiziga.

Imodoka yicyatsi, umukara, amapine, shitingi, igare ,abantu, supaneti y'icyatsi, ibiti, abahinzi.

Imodoka ebyiri zitwara abagenzi ziri mu muhanda imbere yaho hari icyapa cya parikingi kigaragaza aho bagomba guhagarara n'abantu bahategerereje.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga, moto, imodoka itwara abantu ibavana mu gace kamwe ibajyana mu kandi, iruhande rwaho hari inzira y'abanyamaguru ndetse inyuma yaho hari parikingi cyangwa aho imodoka zihagarara byagenewe.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu ihagaze, inyuma yayo hari abantu bafite amakesi cyangwa ibyo bakoresha babikamo ibyo kunywa bipfundikiye, biri mu mavide ndetse iruhande rwaho, hari ibintu byinshi byo mu mabara y'umutuku n'ubururu, ubona ko ari byo babikamo ibyo binyobwa, bavana hamwe bajyana ahandi.

Abantu benshi bamwe bari kugenda n'amaguru, abandi bana ku magare bigaragara ko ari mu mujyi, hari inyubako ndende, hari n'izina ry'umujyi wa Kigali.

Intebe z'ubururu, zimwe zicayemo abantu, izindi ziriho ubusa, ubona ko ari aho abantu bahurira, ari benshi ndetse ubona ko hari abategereje ko hari abandi bahagera.

Umuhanda w'umukara ugenderwamo ibinyabiziga, hari icyapa gifite amabara y'umukara n'umweru cyerekana akarere ugezemo ka karongi. Iruhande rwaho hari imodoka ikora imihanda cyangwa ihinga ihagaze mu butaka.

Kagarama siti senta Nyamata, icyapa, amatara, abantu, moto, imodoka, icyatsi, umweru.

Icyapa cy'ubururu kirimo inyuguti ya pa igaragaza aho imodoka ziparika hakurya hari abanyeshuri bari kuva ahantu hamwe bajya ahandi, abari mu gahanda kagenewe kugendamo abanyamaguru.

Icyapa kirimo ikizeru n'umurongo ukasemu hagati w'umutuku harimo imodoka bisobanuye ko zitemerewe guparika aho hantu icyapa kiri.

Umuhanda ugenderwamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo imodoka y'ivatiri y'umukara, iri kugenda bigaragara ko ifite icyerekezo igiyemo, iruhande rwayo hari icyapa kiri kwamamaza eyateri.

Umuhanda imodoka y'umweru garidawadi, imodoka y'umukara, amatafari, ibyuma, inzu abantu.

Inzu y'umweru igipangu, umuryango, imodoka y'umweru gare dawadi, ibara ry'umutuku amatara, amategura, umuntu.

Igipangu cy'umukara, amabuye, amahombo, indabo, ibiti, insinga, amatara.

Tingatinga, ibyatsi, insina, inzu, ibigega, amadirishya, amabuye, ubutaka, igipangu, imisozi,

Umuhanda w'umukara harimo umumotari uva ahantu hamwe ajya ahandi n'igipangu hariho aho binjirira ujya mo imbere harimo inzu ifite irangi ry'umweru kuri icyo gipangu hejuru hariho n'ibiti

Inzu ndende nyinshi, imwe ya aradibi, imbere yaho hahagaze imodoka muri parikingi, hagiye hari abaturanyi, ibiti bigiye bitandukanye, n'imisozi.

Inyubako Kanombe imihanda y'umukara, umweru, ibiti, insinga ,amadirishya n'ibirahure.

Inzu zifite amabati y'umutuku harimo a'y'umweru inzu nini yumu, ibiti byinshi, za kanari.

Inyubako ndende ifite ibirahure bimwe bikinze n'ibikinguye, hari icyapa cyanditseho Gihozo Hoteli bigaragara ko ari inyubako isohokeramo abantu, imbere yayo hari imodoka zihagaze z'amavatiri n'abantu ubona ko bari ku muhanda bategereje abagenzi.

Amazu menshi amaremare n'amagufi, ni ahantu ubona ko hatuwe n'abantu benshi cyangwa ari umugi wegeranyije abantu benshi mu mudugudu ndetse harimo n'ibiti.

Inyubako ndende irimo amahoteri na aparati, hasi hari iz'amashopu, supamaketi. Imbere yayo hari na parikingi zijyamo ibinyabiziga byaje aho hantu.

Kimironko amazu menshi ibiti, inzu y'umweru, amabati y'umukara, umutuku, amatafari, ibipangu, amadirishya.

Inyubako ndende ubona ko ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, mbere yaho hari parikingi ihagararamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byahaje, hari imihanda amakorosi.

Umuhanda w'umukara cyangwa wa kaburimbo, iruhande rwawo hari inyubako ndende ihari ndetse ubona kokorerwamo ibikorwa bitandukanye nko; gucuruza amata, farumasi itanga imiti, ndetse naho batangira amayinite, n'ibintu bigiye biri mu ubwoko bwinshi.

Amazu menshi, maremare n'amagufi, ibiti, hano hari impara resitora bari ikoreshwa. Hari abantu baje kwiyakira icyo kunywa icyo kurya n'ibindi bitandukanye.

Umuhanda w'umukara urimo imodoka nyinshi iruhande rwaho hari amazu menshi, maremare, amagufi, hari aho bacururiza imyenda y'ubufundi.

Umuhanda wumukara ugenderwamo ibinyabiziga urimo lompuwe zigiye ziyobora ibinyabiziga mu bice zigomba kujyamo hari amajalide ndetse n'ibitibi byinshi.

Umuhanda munini w'umukara ugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye moto, imodoka n'ibindi, iruhande hari inzira y'abanyamaguru, aho hagati hari isaha igena igihe tugezemo, iyo utwaye ikinyabiziga ukareba ku isaha.

Umuhanda w'igitaka ugenderwamo abantu n'ibinyabiziga harimo moto y'amapine atatu itwara imizigo uvana hamwe ijyana ahandi, iruhande hari igipangu kirimo inyubako bivuze ngo aho ni abaturage batuye muri ako gace.

Inzira y'amapave ariko igaragara ko igenderwamo abantu gusa ndetse nta kinyabiziga cyemerewe kuhaca iruhande rwaho hari ibiti, indabo ndetse n'ibindi.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira icyapa kiri mo ikimenyetso cy'umutuku kigaragaza abambuka abantu benshi ibinyabiziga, ikirere, ibiti.

Imodoka iri mu muhanda w'umukara, amatara, ibiti, indabo, amazu menshi maremare, igare, rigori.

Umuhanda wo hasi nuwo hejuru ahagendera abanyamaguru, imodoka, abantu, ikirere ,ibiti ,amapoto y'amatara.

Umuhanda munini w'umukara ujyamo imodoka, harimo imodoka ebyiri umunyonzi utwaye igare. Hakurya hari ibiti n'imodoka ziparitse nini cyane zigaragara nk'aho zitwara imizigo.

Umwijima moto icanye amatara, igare, imodoka icanye amatara, abantu bari kwambuka umuhanda, umuhanda wo hejuru, icyapa kerekana ingendo ibyatsi ibiti.

Imodoka ziri kugendera mu muhanda w'umukara harimo inini ifite shitingi y'icyatsi bigaragara ko itwara imizigo; impande hari utundi tubiri dutoya, hakurya hari akazu kicaramo abagenzi bategereje imodoka, harimo n'agahanda k'abagenzi.

Umuhanda w'umukara harimo umumotari uva ahantu hamwe ajya ahandi, hakurya harimo imodaka nazo ziri kugenda hari n'igipoto kriho itara n'insinga ziyobora amashanyarazi.

Umuhanda munini w'umukara uciyemo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira bava mu buryo bumwe bajya mu bundi, hakurya hari abamotari n'ibiti binini biteye mu muhanda.

Umuhanda w'umukara ugendamo ibinyabiziga bitandukanye iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, ibiti imbere hari amazu menshi ahaturiye.

Umuhanda w'umukara hariho umumotari utwaye umugenzi, bari kuva ahantu hamwe bajya ahandi. Hakurya hari ipoto ry'itara, hari n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye, hari n'akapa k'ubururu hasi hariho ahagenewe kujugunya imyanda ibora n'itabora.